Igipapuro kiriho ishusho y'umusaza wambaye ingofero, n'ikoti ry'umukara, n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara, kuri icyo gishusho, handitseho amagambo ngo kuba yujuje imyaka mirongo itandatu n'andi magambo yandikishije ikaramu y'ubururu.

Icyapa kiriho umukobwa uri kuvugira kuri telefone, wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, yambaye atebeje, kuri icyo gishusho n'ubundi hariho amagambo yandikishije ikaramu y'ubururu n'umukara.

Icyapa kirekire cyane, kiri imbere y'ibiti byinshi, ibyo biti ni ibiti byiza bitandukanye, kuri icyo cyapa hariho amagambo y'umweru asobanura ubwishingizi n'indi mibare mirongo ine na gatanu.

Igipapuro cy'umweru hagati hariho ubururu, muri ubwo bururu handikishijwemo ikaramu y'umweru amagambo manini, hasi handitseho n'ubundi andi magambo akoreshejwe ikaramu y'umweru.

Inzu isa neza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, icuruza nk'inkweto, imyenda ndetse n'ibindi bitandukanye, muri iyo nzu hari urumuri rwinshi rugaragaza ibintu neza, hari n'abana babiri bambaye imyenda itandukanye.

Inzu nziza cyane ikorerwamo ubucuruzi, n'inzu nziza yubakishijwe amakaro y'umweru, harimo ibicuruzwa bitandukanye, bacuruza imyambaro y'ubwoko bwinshi harimo amakanzu, amashati n'indi myenda myiza.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, harimo ibikapu, harimo inkweto, harimo amasaha n'ibindi. Inzu ni nziza cyane, iteye irangi ry'umweru n'ubururu, harimo umugabo wambaye agapira k'umukara, wambaye n'isaha.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi, irimo amakote meza y'amabara atandukanye, twavuga nk'ibara ry'ubururu, ibara ry'umukara ndetse n'andi mabara, muri iyo nzu harimo amatara meza atanga urumuri kugira ngo iyo myenda imurikirwe.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bucuruza ibintu bitandukanye, ariko muri iyo inzu yiganjemo ibintu byo kunywa. Harimo ibintu byo kunywa bitandukanye, amaji, fanta, amata, ndetse n'ibindi. Muri iyo nzu y'ubucuruzi harimo umugore wishimye cyane wambaye imfunguzo mu ijosi.

Isoko rigari ryubakiwe neza, harimo abantu benshi batandukanye ariko hano ku ruhande hari abantu bahagaze, hari umugabo n'umukobwa bahagaze, mugabo yambaye ingofero, umukobwa yambaye indorerwamo z'amaso.

Imodoka nziza y'umweru ihagaze mu muhanda, inyuma y'iyo modoka hari inzu imodoka zinyweramo amavuta, inyuma yaho na none gato hari inzu zisakaje amabati y'umweru n'andi mazu yubatse neza.

Imodoka nziza cyane igezweho y'umukara, igurishirizwa muri Kigali, ihagaze ahantu heza, inyuma y'iyo modoka hari igiti gitoshye cyane, hari n'inzu nziza.

Imodoka nziza ihagaze ahantu ku makaro, iyo modoka ifite ibara ry'umutuku wijimye n'amapine y'umukara, hirya y'iyo modoka hari indi modoka ireba inyuma.

Imodoka enye zifite ibara ry'umweru, zihagaze ahantu heza hafite isuku, iruhande rw'izo modoka hari inzu igaragara nk'ishaje, inyuma yaho gato hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Imodoka nziza ihagaze imbere y'inyubako, iruhande rw'iyo modoka hari abantu bahagaze, hari abagabo babiri umwe wambaye indorerwamo z'amaso undi ntazo yambaye, n'umugore umwe hagati yabo wambaye indorerwamo z'amaso.

Inzu nziza ikorerwamo ubucuruzi bwo gutunganya amata. Imbere yaho hari ikigega cy'umweru; hari abagabo babiri, umwe ari kuvoma amazi.

Inzu ikorerwa ubucuruzi bw'ibiribwa, harimo amaji, amazi, amata atunganyijwe mu ruganda, imigati ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Igikoresho kirimo amata cy'icyuma kirimo amabara, ibara ry'ubururu n'umweru, iruhande rwayo handitse ngo Nyanza, hashushanyijeho n'inka. Icyo kintu giteretse ahantu hubatse neza, iruhande rwayo hari imeza, inyuma yayo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Ibicuba byiza bashyiramo amata biteretse ahantu heza ku makaro, ibyo bicuba birimo amata, impande y'ibyo bicuba imbere yaho gato hari umunzani w'ibururu.

Ubujerekani buteretse ahantu heza butanu ni umweru akandi kamwe ni umuhondo mbere y'aho gato hari igicuba cyateretse kibamo amata.

Icyumba gitunganyirizwamo amata meza, muri icyo cyumba hari ibikoresho byifashishwa mu gutunganya ayo mata, hari ubujerekani bashyiramo amata, hari intebe bicaraho batunganya ayo mata ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umukobwa mwiza ufite imisatsi myiza cyane wishimye, yambaye ikoti ry'umukara, n'ishati y'umweru, yambaye n'umutako mu maboko, afashe impano mu ntoki.

Icyapa kiriho umukobwa wirabura, umukobwa wambaye ishati y'umweru, afashe telefone, icyo cyapa gifite ibara ry'umuhondo, cyanditseho irekure n'andi magambo yandikishije umukara, cyanditseho na MTN.

Inoti y'amafaranga y'Amatanzaniya igihumbi, hariho umugabo ufite umusatsi urimo imvi, yambaye ishati y'amabara.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi butandukanye, muri iryo soko harimo abantu benshi. Hari inzu iriho icyapa cyandikishijwe amagambo y'umweru n'umutuku, iruhande rw'iyo nzu hari igiti kirekire cyane.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirisha magari cyane meza, ni inzu y'amakaro, imbere y'iyo nzu hari igiti kirekire cyiza.

Inzu irimo intebe zigezweho, hejuru y'izo ntebe hariho imisego itatu itandukanye, inyuma y'aho gato hari ameza arambitseho mudasobwa ndetse n'ironji, ku gikuta cy'iyo nzu hari isaaha.

Icyumba kiza cyane kirimo intebe zirimo imisego ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, inzu yubakishije amakaro meza y'umweru.

Hoteri nziza yubatswe ku buryo bugezweho iri mu ntebe nziza z'umukara zigezweho, yubakishijwe amakaro meza y'umweru, irimo amarange y'umukara n'umuhondo ndetse n'umweru.

Inzu nziza yubakanywe ubuhanga, ifite amarangi meza yubatse neza cyane, imbere y'iyo nzu hari ibiti byiza birebire bifite amababi meza, iruhande rw'ibyo biti hari udutebe twiza tugezweho.

Hoteli nziza cyane yabakanwe ubuhanga mu buryo bugezweho, muri iyi hoteli harimo intebe nziza cyane, muri izo ntebe harimo imisego y'amabara, inyuma y'izo ntebe hari ururabo rwiza cyane.

Pisine nziza cyane bogeramo, iruhande rwayo hari udutebe twiza tw'umweru bicaramo iyo bari kunywa nk'amazi cyangwa fanta, hari n'imitaka miremire ihari muri utwo dutebe, nk'aho ku ruhande hari inzu ndende cyane nziza igeretse.

Umuhanda w'igitaka uhagazemo imodoka zitandukanye, hahagazemo n'indi modoka ifite ibara ry'umuhondo, inyuma y'izo modoka hari inzu ifite amabara y'ubururu n'umweru.

Inzu nziza irimo udutebe twiza tugezweho, muri utwo dutebe nta muntu wicayemo, harimo ameza y'umweru, harimo n'amatara meza amurika neza.

Ibiro byiza cyane, biri ahantu heza hari isuku, hari agatebe keza kagezweho, hari n'ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bitandukanye, twavuga nka mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu ikoranabuhanga.

Inzu nziza iteye irangi ry'umutuku wijimye n'umweru, ifite inzugi z'umutuku n'ibirahure byiza, inyuma yayo hari igiti.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bwiza bugezweho, imbere y'iyo nzu hari imodoka zihagaze imbere, na none hari n'ikindi cyapa kiri imbere y'iyo nzu cy'ubururu, imbere y'iyo nzu hari insinga z'amashanyarazi.

Igishusho kiriho umukobwa n'umusore, umusore yambaye ishati igiye gusa umweru n'umukobwa yambaye agapira k'amaboko maremare, umukobwa afashe urufunguzo.

Icyumba cyicayemo umukobwa n'umusore bigaragara ko bishimye, bari gukoresha mudasobwa, umukobwa yambaye ishati y'umweru n'indorerwamo z'amaso, umusore yambaye umupira w'umukara, inyuma yaho hari udukoresho twiza dutandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, urimo umumotari uhetse umugenzi, iruhande rw'umuhanda hari imodoka zihagaze, hari n'amazu menshi akorerwamo ubucuruzi, ndetse hari n'amatara amurika nijoro.

Inzu zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, imbere y'ayo mazu hari ibyapa bibiri, hari icyapa kimwe cy'ubururu cyanditseho ngo Mukamira.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye, nk'imboga, ibitunguru, karoti, ndetse n'ibindi. Harimo abantu benshi batandukanye, harimo n'umugore ufashe radiyo.

Isoko ritari rigari rikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa twavuga nk'amajeri, inyanya, imineke, ibishyimbo n'ifuru ndetse n'ibindi biribwa.

Isoko ritari rigari ariko ririmo abaguzi benshi, rikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa bitandukanye, twavuga inyanya, intoryi, karoti, urusenda ndetse n'ibindi biribwa.

Inzu itangirwamo serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga. Imbere y'iyo nzu hari ibyapa bitandukanye. Nk'icyapa kiriho umugore n'umwana.

Isoko ryiza ririmo abantu benshi, muri iryo soko hari inzu y'umuhondo itangirwamo serivisi za MTN, imbere y'iyo nzu hahagaze abaguzi hariho n'umuntu ucunga umutekano ndetse n'ibyuma bicuranga.

Umugore mwiza wambaye indorerwamo z'amaso ufashe impano mu ntoki, iruhande rwe hari abagabo batandukanye bambaye udupira twiza na none mu ruhande rwe rundi hari icyapa cya Emutiyene.

Inzu nziza zitanga serivisi za MTN, imbere y'izo nzu hari abagabo babiri bari kubyina bishimye, hari n'abandi bakobwa babiri bambaye udupira twiza tw'umuhondo tugaragaza MTN, hari n'undi umwe uri imbere yabo.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo kubitsa no kubiku amafaranga harimo umugore uhagaze n'umugabo wicaye, uri gukoresha mudasobwa ndetse n'undi uhagaze muri iyo nzu hari kwakamo amatara meza.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati meza agizweho y'umutuku, ifite n'igipangu cyiza kigezweho, kirimo amarangi y'umukara n'umweru.

Icyumba kiza kirimo intebe nziza n'ameza y'umukara. Muri izo ntebe harambitsemo imisego itandukanye, hari iy'umutuku, hari iy'umweru, hari iy'ikijuju, muri icyo cyumba harimo amatara meza atuma hagaragarara neza.

Inzu nziza cyane igeretse rimwe, imbere y'iyo nzu hari ahantu hahagarara imodoka, hirya gato hari inzu nziza cyane iri mu gipangu cy'amatafari ahiye.

Inzu nziza cyane yubatse ahantu heza, yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse rimwe, ifite irangi ryiza cyane, imbere y'iyo nzu hari ubusitani bwiza burimo ibiti n'indabo, ndetse n'ahantu ho guhagarika imodoka.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ifite irangi ryiza cyane riboneye, ifite ibipangu byiza bigezweho, yubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'iyo nzu hariho umugabo uhagaze wambaye umupira w'umutuku.

Inzu nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zisakaje amabati meza, ziteye amarangi meza agezweho, zifite n'ibipangu byiza imbere y'izo nzu hari moditariho umuntu.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igipangu cyiza cy'umweru, iteye n'amarangi meza, iruhande rwayo hari ikigega cy'umukara kandi imbere hari umuhanda wa kaburimbo.

Inzu nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho iteye irangi ryiza cyane ry'umweru ifite n'umuryango mwiza imbere y'iyo nzu hari indabo z'umutuku n'izicyatsi.

Inzu nziza cyane igeretse yubatswe mu buryo bw'ubuhanga, nziza cyane ifite ibirahure byiza bigezweho, iteye amarangi meza cyane, imbere y'iyo nzu hari umugabo uhagaze.

Inzu ndende cyane igeretse, ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere y'iyo nzu hahagazeho imodoka zitandukanye, iruhande rw'iyo nzu na none hicayemo abasore babiri bambaye imyenda y'umweru.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, amakote y'ubwoko bwose, ibikapu by'amabara atandukanye. Hari umucuruzi uri gucuruza, hari n'abandi baguzi bari muri iryo soko.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'inkweto n'imikandara ndetse n'ibindi bicuruzwa, muri iyo mikandara harimo amabara atandukanye nk'umukara, kaki ndetse n'andi mabara, no ku nkweto hari amabara atandukanye umutuku, umweru ndetse n'andi mabara.

Ahantu hacururizwa imyenda, twavuga nk'imipira y'amaboko magufi, hari n'imipira y'imbeho, imbere yaho hari umusore uhahagaze wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'igikapu, bigaragara ko ari kugura iyo myenda.

Inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi yubatswe mu buryo bwiza bugezweho, irimo gucuzwamo ibicuruzwa byinshi harimo n'abaguzi benshi, muri iyo nzu hubakishijwe amakaro y'amabara arimo imirongo y'umweru n'umukara ihagaze.

Ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye harimo abantu benshi bamwe bicaye ku ntebe bari gucuruza, harimo ibitenge by'ubwoko bwinshi, iyo nzu yubakishijwe amakaro, iteye n'irange ry'umweru.

Umugore n'umugabo bahagaze ahantu bifotoza bari guhana impano, inyuma yabo hari igishusho gisa n'ubururu, cyanditseho amagambo agaragaza ubwishingizi.

Igipapuro cy'ubururu cyanditseho amagambo ngo uko wakwizigamira muri ejo heza ukoresheje telefone. Iruhande hejuru y'icyo gipapuro hari izuba noneho munsi yanditseho ngo "ejo heza".

Umukobwa wambaye ijipo n'agakoti, afite imisatsi iboshye, ahagaze ahantu bacuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa nk'amaji n'utundi tuntu two kunywa.

ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye imbere hari umugore wambaye isengeri y'umweru n'ijipo y'umukara ateruye icupa ry'amavuta y'ubuto iryocupa ritekanye n'akandi ka jerikani bw'umuhondo ahantu bacururiza bacuruza ibintu bitandukanye hari umuti w'amenyo amaji amavuta n'ibindi.

Isoko ryiza cyane ryubatswe mu buryo bwiza, ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo ibiribwa n'ibindi bintu byose bijyanye n'ubucuruzi. Harimo umugabo wambaye agapira karimo uburongo bw'umweru n'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara. Iyo nzu yubakishijwe amakaro y'umweru n'umukara.

Inzu nziza cyane ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, icuruza ibintu bitandukanye nka biswi, amazi yo kunywa, amata n'ibindi bintu bitandukanye.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikorerwamo ubucuruzi, icururizwamo ibintu byo kurya n'ibyo kunywa, iyo nzu yubatse neza, irimo urumuri rwiza ruhagije ndetse ni iy'amakaro meza agezweho.

Ahantu hacururizwa ibyo kunywa bitandukanye nk'amaji, amata atunganyijwe mu ruganda, amazi ndetse n'ibindi byo kunywa.